Kanseri y'inkondo y'umura ni imwe mu ndwara yibasi umubare munini w'abari n'abategarugori mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni muri ubwo buryo hashyizweho umunsi mpuzamahanga wo kuyirwanya, binyuze mu gushishikariza abantu kwisuzumisha, gufatira inkingo ku gihe, ndetse no kugira isuku.

Ubuvuzi kuri bose ni kimwe mu nkingi z'iterambere u Rwanda rwagezeho nk'abatoya bagenda begerezwa amavuriro aho batuye bafatwa ibizamini bigiye bitandukanye ku buntu harimo nko gufatwa umuvuduko w'amaraso kugira bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyo abaganga begereye abaturage bakabaganiriza ku ndwara zigiye zitandukanye nk'umutima n'imivuduko y'amaraso, bituma abaturage bitinyuka bagafatisha ibizamiini kugira bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, bityo bakamenya ibyo bakwiye kurya nuko uko bakwiye kwirinda kugira bagire ubuzima buzira umuze.